Abagabo babiri, abagabo batatu bari imbere y'akazu, gakorerwamo serivisi zijyanye n'ikoranabuhanga nkuko ari ibigo bibiri bikomeye mu Rwanda bitanga serivisi z'ikoranabuhanga, abagabo barimo baraka yo serivisi, ibyo bigo ni MTN na Airtel.

Abantu bane harimo arimo abakobwa n'umugabo umwe bose bari mu biro, bicaye ku ntebe imbere y'ameza, buri wese afite mudasobwa n'izindi mpapuro, barimo baruzuzaho amakuru n'imyirondoro.

aAbahinzi bari mu murima barimo barasarura inanasi, umuma munini cyane aho baziciye zikarundwa ahantu hanini, harimo abahinzi, hakaba hari imirima, imirima ikaba nta bindi bihingwa biriho uretse ishyamba n'ibihuru.

Aka ni akabari k'ibyo kunywa, aho akabari hari ibinyobwa byinshi cyane bitandukanye bya kijyambere, biri mu macupa meza cyane, ibyo binyobwa bikaba biri mu bwoko butandukanye, hakaba hari n'uducupa two gusukamo ibyo binyobwa, hakaba n'indabyo ziri ku meza, aho ngaho ibyo binyobwa biteretse.

Iyi ni imbuga ikozwe mu mabuye abumbye abumbye muri sima, hakaba hari inyubako y'ubucuruzi. Inzu igaragaramo ko harimo ubuconsho, hakaba hari n'umuntu urimo uratunganya iyo mizigo.

Inyubako igaragaza hoteli igeretse kabiri, hakaba hari akayira cyangwa agahanda kagana kuri hoteli, iruhande rw'ako gahanda hakaba hari icyapa kihashinze kigaragaza ubutumwa bwa tembera u Rwanda.

Iri ni isoko riri ku ruhande ku nzira. Iri soko rikaba ryanitseho imyenda myinshi cyane y'amoko atandukanye, hakaba hari n'igisharagati cyubatse kugira ngo imyenda itanyagirwa cyangwa ikicwa n'izuba. Iri soko hari abantu bariremyemo, harimo abacuruzi n'abagura, hakaba hari na moto hirya n'amamodoka, n'utuzu tw'imitaka duhari tw'abacuruzi serivisi.

Iri ni isoko ririmo abahashyi, abaguzi, abacuruzi n'abaje kurangura ibicuruzwa, harimo imyenda, harimo ibikapu, amasafuriya n'amabasi n'inkweto, hakaba hari inzu iri ku ruhande rw'aho abaguzi barimo bararangurira abandi bacururiza.

Imyenda irunze ahantu hasi. Imbere yayo hari abacuruzi ndetse n'abahashyi baje kugura iyo myenda. Hakaba hari n'ikidomoro giteretse iruhande rw'iyo myenda, iri ahantu mu byatsi hasi.

Kaburimbo iri kunyurwaho n'umumotari ahetse n'umugenzi bose wambaye kasike, ku ruhande hari akayira kanyuraho abanyamaguru hakaba n'igiti cyangwa se icyuma gitwara insinga z'amashanyarazi, hirya hakaba ari ishyamba.

Abagabo babiri bari ku moto umwe n'umugenzi undi n'utwaye moto. Moto iri mu bwoko bwa moto zikoresha bateri cg se zicagigwa hakaba ari mu muhanda nyuma y'umuhanda hakaba hari ibiti byivanzemo imigano n'indabyo ku ruhande.

Umugabo uri ku igare aritwariye muri kaburimbo, inyuma ye hakaba hari umumukobwa. Nyuma y'umukobwa haba hari amazu agizwe n'inyubako zikoze mu mabati, Hakaba n'ibindi biti biri inyuma n'imodoka ziparitse ku ruhande n'amapoto atwara imiriro y'amashanyarazi.